Umugabo wambaye ingofero y'umukara n'imyenda ya siporo y'umukara n'umweru n'Ibendera ry'u Rwanda n'isaha, akaba afite mikoro mu ntoki, inyuma ye hakaba hari ahantu abakinnyi bakunda kwicara hatwikiriye, hakurya hari irangi ry'umuhondo.

Abantu benshi bahuriye mu nzu mberabyombi bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ab'imbere bafite amazi yo kunywa mu macupa, hakaba hari umugabo uhagaze watebeje wambaye ishati n'isaha n'ipantaro ndetse n'umukandara w'umukara.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, isaha ndetse n'ipantaro y'umukara akaba afite mikoro y'umukara mu ntoki, ahagaze ahantu hari rido y'umweru ndetse n'igikuta kikaba gisize irangi ry'umweru.

Abantu benshi bicaye ahantu hateraniye abantu bo mu nzego zitandukanye mu itente bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu, hakurya haragaragara insinga z'amashanyarazi ndetse n'ingo nyinshi n'icyapa cy'ubururu, hamwe n'ibyatsi ndetse n'ibiti.

Abantu bateraniye ahantu mu nzu mberabyombi hakaba harimo umwe ufite imisatsi yasutse ufite mikoro na telefone mu ntoki ari kubaza ikibazo, abandi mu bicaye harimo uwambaye amarinette n'undi mugabo uhagaze inyuma wambaye ikoti.

Abantu benshi bahuriye muri sale irimo abantu benshi cyane, bakaba biteretse amacupa y'amazi ku ruhande. Hakaba hari umukobwa ugaragara ufite umusatsi w'umukara wambaye igitambaro mu ijosi, isaha, afite telefone mu ntoki ndetse n'icupa rya ji iruhande rwe.

Ikibindi kinini kiteretsemo umuheha kikaba kiri ku ngata yabugenewe, hasi hari sima kandi hari n'ibara ry'umukara rigikikije nk'aho ari nijoro.

Abasore babiri bambaye ubusa hejuru bafite ingabo ndetse n'ibintu by'inkoni bakoresha bari kubyina, hirya gato yabo hari ibihuru byinshi ndetse ahantu bahagaze hari sima nyinshi.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wiziritse akantu k'umweru mu gahanga ndetse n'akandi kari mu ijosi, akaba ateze amaboko nk'inyambo ari kubyina, yambaye imikenyero myiza ndetse n'agapira karimo imbere.

Inkangara za kera zifite imitemerere y'umukara na zo zikaba ari umukara zidodesheje ubudodo ndetse n'ibyatsi harimo imirongo igiye itandukanye itambitse, ihetamye, iberamye ndetse n'ibindi, bikaba bigaragara mu mafoto atatu atandukanye.

Urusyo n'ingasire bimeze gutya ifu ikaba iri ku nkoko, hirya gato hakaba hari iyindi iriho ibyo batarasya, mu nsi kaba hakikijemo ibuye rituma bikorwa neza, ku ruhande hakaba hari agaseke.

Abantu bateraniye mu nzu mberabyombi bicaye bafite amazi ndetse n'amaji, imbere yabo hakaba hari itorero ririmo rirabyina harimo abakobwa babiri bakenyeye bafite mikoro baririmba, inyuma yabo hakaba hari abasore bari gucuranga.

Abasore n'inkumi bari kubyina bambaye imyenda y'umweru n'umukara bakaba bazwi nk'intore, bakaba bari imbere y'abayobozi barimo umusirikare ndetse n'abandi bo mu nzego z'ibanze, iruhande rwabo hakaba hateretse amazi.

Amapoto maremare ariho insinga z'amashanyarazi ava ahantu hamwe ajya ahandi, akaba akikijwe n'imirima ihingwamo imyaka igiye itandukanye yiganjemo urutoki, hakurya hari igishanga kinini kirimo n'amazi bahingamo umuceri.

Umugabo wambaye ingofero, imyenda y'akazi na ga z'umutuku akaba akora mubintu by'amashanyarazi ari kureba muri bateri afungura insinga yongera azifunga kugira ngo umuriro ubashe gutambuka neza.

Ikusanyirizo ry'umuriro hari n'ikicaro gikuru cya sosiyete ishinzwe amashanyarazi cya REG, hakaba hari insinga nyinshi n'amapironi menshi ashinze iruhande. Hakaba hari akazu gatoya gasize irangi ry'umuhondo n'amategura y'ubururu.

Icyanya cyahariwe amashanyarazi akaba ari ahantu hari ikusanyirizo ry'amashanyarazi aho hari insinga nyinshi zigenda zitambuka ku mapironi ava ahantu hamwe ajyana umurira ahandi mu tundi duce.

Bateri nyinshi zegeranye zikaba zifashishwa mu gukora umuriro w'amashanyarazi. Hari insinga ziriho zivanaho ngaho umuriro ziwujyana mu baturage, kandi izo batiri zikaba ziteretse ahantu ku biti bituma zidakonja.

Icyanya cyabugenewe cyahariwe ahantu haba amashanyarazi, hari insinga nyinshi ndetse n'amapano menshi asa umukara ndetse n'ahandi hantu hari inzu y'ibikarito binini bipakiyemo insinga nk'aho ari ho bayakusanyiriza.

Abagabo babiri bambaye ingofero, umwe y'umuhondo, undi y'ubururu, amajile asa umuhondo, bakaba bari ahantu hari ifoto y'amashanyarazi bahafunguye bari kurebamo uko insinga zimeze neza.

Insinga z'amashanyarazi ziri mu mabara agiye atandukanye, umukara, umutuku ndetse n'umweru, hakaba hari umugabo ugaragara ikiganza, uri gukozaho icyuma cyabugenewe kugira ngo arebe niba ari bizima.

Insinga z'amashanyarazi zigera muri enye, ziri guca ku mapoto yabugenewe zijyana umuro ziwuvana ahantu hamwe ziwujyana ahandi. Zikaba ziri guca mu kirere gisa ubururu ndetse n'umweru kandi bigaragara ko imvura yenda kugwa mu kanya gato.

Icyanya cyahariwe inganda cyubakishije amabati ndetse hari n'umunara muremure cyane ushinzwe kuzamura umwotsi, inzira ijyayo ikaba yubakishije amapave meza ndetse no ku ruhande hakaba hari umwanya baparikamo.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo, imyenda ya sosiyete y'itumanaho ya REG n'inkweto zikomeye akaba yiziritse umugozi mu nda yuriye ipoto ari kugira ngo atunganye insinga z'amashanyarazi.

Imodoka ndende y'umweru ikaba icometseho imipira igiye itandukanye hirya gato hakaba hari abagabo babiri bambaye ingofero z'umweru, amajire y'icyatsi n'ipantaro z'umukara, iruhande rwabo hari inzu.

Amapironi ari ahantu hakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi, hakaba hari amajenereta menshi cyane, akikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse n'imigozi y'umuhondo, hakaba hari n'inzira y'amabuye abantu banyuramo.

Ibendera ry'u Rwanda riri mu mu mabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, rikaba riteye ahantu imbere y'inyubako yubakishije amatafari ahiye, ifite igisenge cy'ubururu ndetse hasize n'irangi ry'umuhondo.

Sitade izengurutswe n'ibara ry'umutuku mo hagati hakaba harimo ahantu habugenewe gukinirwa. Hakurya hakaba hari ahantu abantu bica iyo baje kureba umupira w'amaguru, hakaba hagaragara n'amazamu.

Inyubako nziza zifite igisenge cy'amabati zubabakishije amadafari ahiye ndetse ziteye n'amarangi, hakaba handitseho amagambo agira ati E.C.D urugo mbonezamikorere rwa Ryabega.

Igishushanyo k'ingagi z'umukara ziri ahantu bazubakishirije amabuye, iruhande rwazo hakaba hari icyapa kinini kiriho ibendera ry'u Rwanda n'ikirangantego cy'u Rwanda, icyo cyapa kikaba gisa umweru.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri gisakaje amabati y'umutuku, zubakishije amatafari ahiye, irangi ry'umuhondo hamwe n'inzugi n'amadirishya by'ubururu, imbere hakaba hateye ibigori.

Inyubako ya konoshi iriho abana bari gukina ahantu harambitse ibiti, hakaba hari n'umuhanda w'igitaka utambika. Hirya gato hari akazu ka sosiyete y'itumanaho Airtel gasa umutuku.

Umuhanda wo mu kirere ukikijwe n'ibintu by'imigozi ku mpande, hakaba hashinze ibyuma bisa ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hakurya hakaba hariho ibipirizo.

Inyubako ndende iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umukara, ikaba irimo abantu bayihagazemo. Hasi haparitse imodoka eshatu, hari n'abandi bo mu nzego z'umutekano, barimo baraganira ku bintu runaka.

Ahantu hari inyubako nyinshi cyane zisakaje amabati y'ubururu n'amarangi y'umuhondo n'amadirishya y'umweru, hakaba harimo harasohokamo imodoka nini cyane ifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku igiye gusohoka mu marembo.

Abantu benshi bicaye ahantu munsi y'ibiti ku ntebe z'ibiti ndetse n'ameza, harimo umwe uhagaze wambaye umupira w'amaboko magufi w'ubururu n'umweru n'ipantaro y'umukara, akaba ariwe uri kubwira abantu bicaye.

Icyapa cy'umweru kiri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu, hakaba handitse amagambo ari mu ibara ry'ubururu agira ati: "Akarere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka Barija, igicumbi cy'Umudugudu wa Barija B."

Imodoka nini yo mu bwoko bwa Fuso ihetse ibintu, ikaba iri guca mumuhanda w'igitaka. Imbere yayo hakaba hari abantu babiri bahekanye ku igare, umwe wambaye umupira w'umutuku, undi yambaye umupira w'umukara.

Abagore benshi ndetse n'abagabo bake bari ahantu imbere y'inyubako isize irangi ry'ubururu, bakaba bambaye amataburiya y'ubururu ndetse n'umweru, barimo babyina bishimye bambaye n'udupfukamunwa, ku ruhande gato hari undi muntu wambaye agapfukamunwa n'imbere hari umuntu uri kubafotora.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bambaye imyenda isa, bakaba bafite utuntu tw'udupapuro mu ntoki, inyuma yabo hari inzu itagaragara neza ifite igisenge cy'umukara yanditseho ngo Urwibutso, hakaba hari n'amatara.

Abagabo bahagaze ahantu mu rutoki, imbere yaho hari utuni tw'udutebe dukoze mu biti, umwe afite inkoni yambaye n'umupira w'amaboko magufi n'amarinete, iruhande rwe yegeranye n'abandi bagabo barimo n'umupolisi umwe.

Abayobozi mu nzego zitandukanye barimo abasirikare ndetse n'abandi, bakaba bari mu nzu igezweho ifite amatara yaka neza n'inkingi zishinzemo zisize irangi ry'umuhondo, bakaba bifashe neza nk'abari kwibuka.

Abantu benshi bicaye mu nama ku ntebe z'umweru hirya hakaba hari umukozi wa RIB wambaye impuzankanana yabo uhagaze ari kubabwira, inyuma gato hari ibiti byinshi ndetse n'amazu ya konoshi.

Abantu benshi bicaye ahantu mu buryo bw'uruziga bicaye ku ntebe z'imbaho harimo n'umusirikare hakaba kandi hari umugore umwe ufite imisatsi y'umukara, wambaye ikoti ry'umutuku uhagaze ari kubwira abantu.

Abayobozi mu nzego zinyuranye harimo abasirikare babiri ndetse n'abandi bakenyeye n'abambaye amakoti bambaye neza, bari mu itente rifitera ibara ry'umweru ndetse imbere hakaba hari ameza bicayeho, bicaye ndetse no ku ntebe z'umukara.

Abagabo batanu barimo bane bambaye ingofero n'undi umwe utayambaye, bakaba bahagaze imbere y'icyapa kinini kiri mu mabara y'umweru, cyandikishije amagambo y'icyatsi ngo Gikoba riberesheni hisitori tiriyo. Inyuma yaho hakaba hari igiti cy'umuyenzi.

Abayobozi benshi biganjemo abo mu nzego zitandukanye n'iz'umutekano, bicaye bafite amazi n'amatelefoni mu ntoki zabo, ku ruhande hari ameza agezweho, intebe z'umukara ndetse n'umuryango ufungutse.

Abantu biganjemo abagore n'abagabo ndetse n'abasirikare bicaye mu itente ririmo imitako y'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande gato hari ameza uriho umutako w'umweru.

Abantu benshi bicaye hari n'abandi bahagaze bambaye impuzankano y'umukara hejuru bafite amatelefone mu ntoki ndetse n'udukarito zavuyemo, ku ruhande hari n b'umudaso bari kwifotozanya kubw'icyo gikorwa cyabaye.

Imodoka igezweho, ijya gusa icyatsi, ikaba ifite ipine ry'inyuma ryanditseho ngo rava, iri mu muhanda wa kaburimbo, hirya gato hari inyubako z'abantu zifite amabati atukura ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Imodoka y'ubururu iparitse ahantu hari amapave menshi, ku ruhande gato haparitse moto n'undi muntu wicaye hakurya, yegeranye n'inzu nziza iteye amarangi y'umuhondo ndetse ifite amadirishya y'umukara n'inzugi z'umukara.

Umumotari utwaye moto kumuhanda wa kaburimbo, akaba yambaye inkweto z'umweru, ipantaro y'umweru n'umupira w'amabara afite kasike mu ntoki. Iruhande rwe hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'inzu yubatse hakurya itagaragara neza.

Inyubako isize irangi ry'umweru, ku ruhande hari inshinga z'amashanyarazi ndetse na kizimyamwoto, hari umuryango w'umukara ufite ibirahuri by'umukara, hejuru hakaba handitsemo ngo excel tour Nyagatare office, harakinguye kandi hasi hari n'amakaro.

Icyapa cy'ubururu kirimo amabara y'umweru hirya gato hakaba hari umukobwa uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo ndetse hakaba hari n'ibyatsi bikikije urugo rufite amabuye y'umutuku.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara harimo imirongo ijya gusa icyatsi cyangwa umuhondo, ku mpande hakaba hari inzira y'abanyamaguru hakurya hari inzu ya konoshi isize amarange y'ubururu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye amajire, ajya gusa icyatsi yanditseho amagambo y'umukara, bakaba bari mu muganda wo kubaka inzu bubakishije amatafari ya rukarakara, bashyiramo n'ibyodo.

Abayobozi bo mu nzego zitandukanye bahagaze imbere y'abaturage bicaye, umwe akaba bamutwikiriye umutaka afite mikoro mu ntoki ari kubwiriza abantu ibyo bakora.

Abantu batanu barimo abagabo ndetse n'umugore umwe harimo n'umupolisi umwe bakaba bahagaze imbere y'inyubako nziza igezweho isize amarangi y'umuhondo, ikaba ifite inkingi zisize amarangi, hejuru hariho uruzitiro rw'ibyuma.

Abayobozi bo mu nzego zishinzwe umutekano, bakaba bari mu muganda bose bafite kupakupa, bari gukora umuganda rusange. Harimo abasirikare ndetse n'abadaso, hamwe n'abandi bambaye imyenda ya gisivili. Hirya yabo hari ibiti byinshi.

Abagabo bicaye ahantu ku dutebe duto duto harimo abashinzwe umutekano, inyuma gato hakaba hari imodoka y'umukara n'umweru ya Polisi n'amagare ahaparitse, bakikijwe n'ibice hirya no hino ndetse n'ahantu inka zirisha.

Abantu benshi babyukiye mu umuganda, harimo n'abo mu nzego z'umutekano nk'urugero umudaso na we ufite ibuye, hari n'abandi benshi bikoreye ingata bagiye kuzana amabuye. Imbere hari umusirikare ndetse n'umupolisi.

Abantu benshi bateruye amabuye biganjemo abaturage ndetse harimo n'abo mu nzego z'umutekano abasirikare, abapolisi ndetse n'abandi, bakaba bari ku nyubako ifite amabati y'ubururu ndetse zisize n'irangi ry'ubururu.

Umupolisi w'umugore wambaye impuzankano zabo ufite mikoro mu ntoki ari kubwira abantu benshi bicaye bamukikije, inyuma ye hari icyapa cyanditseho ngo Imbuto Foundation.

Abantu benshi bari mu gikorwa cy'umuganda harimo abafite amasaka, abafite imihoro n'abandi bahagaze benshi, inyuma yabo hari ibiti birebire bari kugenda batema kugira ngo bakore inzira.

Abaturage benshi bari ahantu mu muhanda, uca mu baturage, hakaba hagaragara inzu zisakaje amabati ndetse n'urutoki. Hakurya gato hari ibiti bihagaze birebire.

Abakobwa bari mukibuga cy'umupira w'amaguru bakaba bari gukina, bamwe bambaye amajezi y'ubururu n'umweru n'amagisi y'umukara, abandi bambaye imyenda y'umutuku n'umweru n'amasogisi y'umutuku, bakaba bari kurushanwa.

Umugore wambaye imyenda yo gukinana, uri mu kibuga hamwe n'abagabo batatu, bari muri sitade hakaba hirya hari uruzitiro n'ahantu hagaragara itaka ryinshi.

Abantu bicaye ahantu hamwe hari n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'ingofero, y'umukara uhagaze arimo babwira inyuma yaboho hari ari inzu ifite igisenge cy'umutuku amadirishya y'ubururu ifite irangi ry'icyatsi.

Amakipe abiri ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru bamwe bakaba bambaye amajezi y'umuhondo ndetse harimo ibara ry'umukara, amasogisi y'umuhondo n'umukara hamwe n'inkweto, indi kipe na yo yambaye imyenda y'ubururu n'umukara, amasogisi y'umweru ndetse n'inkweto, ku ruhande hari uza gusifura.

Abayobozi benshi bateraniye ahantu hamwe, hari inyubako inyuma yabo hakaba hari intebe z'umukara, bahagaze barimo barabyina umwe yambaye ingofero y'umukara, ndetse n'ishati y'amaboko magufi n'ipantaro y'umukara.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye imyenda y'umutuku n'umweru akaba arimo arakina ku ngufu, arikuyikorera ahantu mu kibuga kirimo imirongo itambitse ndetse n'ihagaze.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bicaye muri sitade bari kureba umupira, hakaba harimo umwe wambaye ingofero, agapira k'umweru n'ipantaro wegeranye n'undi mukobwa uri guseka cyane n'undi musore ubabaye.

Abagabo benshi barimo n'abagore bahuriye muri sitade, bambaye imyenda y'amakipe, bakaba bari kumwe n'umugabo wambaye ikote rirerire, ipantaro ndetse n'inkweto zifunze, hakurya hakaba hari amabara menshi.

Abagabo bicaye ahantu hamwe hari ku dutebe tw'ubururu wagira ngo ni muri sitade, hakaba harimo umwe wambaye agapira k'umutuku n'umweru undi yambaye uw'umukara urimo utubara ndetse n'undi wambaye umukara n'icyatsi, hari n'undi inyuma ye wifashe mu mutwe.

Umugore munini ubyibushye cyane wambaye imyenda ya siporo akaba agiye gutera umupira w'amaguru, hirya ye hari undi mugabo wambaye umupira w'amaboko maremare n'ipantaro ndetse na bote z'ubururu uri kwenda kwakira umupira, hakurya yabo hari urutoki.

Ikipe yabakobwa bambaye imyenda y'umuka inkweto ndetse n'amasogisi y'umukara, bakaba bari gukina n'abandi bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umweru, bari gukinira ahantu mu kibuga cy'itaka.

Abakinnyi bari mu kibuga bambaye imyenda igiye itandukanye, harimo abambaye imyenda y'umutuku bakaba bagiye kurwana bazanye amakimbirane. Hakurya yabo hakaba hari abafana benshi barimo n'abamotari baparitse moto baje kureba umupira.

Umukinnyi w'umupira w'amaguru, uri mu kibuga, akaba amaze gutera umupira ku mutwe. Hirya gato hari uruzitiro rufite amabara y'icyatsi, hakurya hakagaragara ibyatsi byinshi bya kimeza ndetse n'imiringoti bagiye batunganya neza.

Umuhanda w'igitaka urimo ibinogo byinshi n'amabuye menshi ukaba ukikijwe n'ibyatsi hirya no hino, hakurya hari umusore wambaye isengeri urimo uracunga igare ririho agafuka.

Umuhanda wa kaburimbo usa umukara urimo imirongo y'umuhondo ku ruhande hakaba hari inzira y'abanyamaguru, hirya gato kandi hari inzu nyinshi ziteye amarangi agiye atandukanye n'uruzitiro rw'urugo ruri ku ruhande rwo hepfo.

Mu muhanda wa kaburimbo uri mu mabara y'umukara harimo n'uturongo tw'umuhondo, hirya gato hari abantu bari kugenda harimo abambaye imipira y'amaboko magufi iyajya gusa ubururu.

Imodoka bigiramo gutwara iri mu muhanda, hakurya yayo hakaba hari inyubako isize irangi ry'umweru iparitsemo moto ebyiri, ku ruhande hari icyapa kinini cy'umuhondo cyanditsemo amagambo y'umutuku ngo Schol.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara n'umweru afite na malete ku rutugu, yambaye isengeri y'umweru, ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara, akaba ari kunyura mu muhanda wapfuye w'igitaka urimo ibinogo byinshi n'amabuye.

Abantu babiri umukobwa n'umuhungu bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwabo hakaba hari amapoto y'amashanyarazi atwara umuriro mu baturage, hakurya y'umuhanda hari ibyatsi byinshi ndetse n'igiti kinini cy'inganzamarumbo.

Umuhanda w'igitaka w'abanyamaguru, ukaba ku ruhande hariho rigori nini, itwikirije ibyuma bikoze muri sima, hakaba hacamo amazi mu gihe cy'imvura. Hakurya hari igipangu cyiza gifite amarembo manini ndetse n'umuryango.